Imodoka z'imbangukiragutabara, zifashishwa mu buryo bwo gutabara abarwayi, abagore batwite, abakoze impanuka, ndetse n'abandi bantu bafite uburwayi bukomeye, igafasha abaturage kugera kwa muganga byihuse.

Imodoka y'imbangukiragutabara y'akarere ka Nyagatare ku bitaro bya gatunda, ifasha abaturage baho kubageza kwa muganga byihuse.

Bari mucyumba kimwe cyiza bari gufasha abarwayi bakomerewe ndetse barwaye cyane kugira ngo batabare ubuzima bwabo, babeho neza nk'abandi bose kandi bafashe kuziteza imbere mu igihe kizaza.

Abagore bahagaze bambaye amakanzu maremare harimo umuntu wambaye ijire ya MTN utanga amayinite wohereza n'amafaranga.

Abaganga bahagaze muri pasiparomu nziza, bari imbere y'inzu, yubakishije amatafari ahiye, atabara aho rukomeye mu gihe abona umurwayi urwaye cyane anarembye.

Abaturage benshi cyane babyukiye mu isoko kugurisha amatungo yabo kugira ngo babonemo amafaranga abafasha kurihira abana amashuri, kwiteza imbere, mu kugura n'ibikoresho byo mu rugo.

Umuganga uri mu kazi wambaye itaburiya y'umweru, umumama ndetse n'undi muntu wicaye kuru ruhande, arimo aramwereka, aramugira inama y'uburyo yakwitwara mu burwayi bwe kugira ngo arusheho gukira neza.

Abaturage bagiye kwa muganga, baje kwivuza indwara nka malariya, gituntu, inkorora n'izindi ndwara, no kwipimisha indwara mbere y'uko zibageraho.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ni'shati y'umweru, arikurebana n'abaturage batonze umurongo, baje kwipimisha indwara kugira ngo babone uko bazirinda ndetse bibafashe kwiteza imbere no kubaho mu buzima buzira umuze.

Abaturage bicaye mu cyumba, baje kwivuza uburwayi butandukanye, harimo malariya, gucibwamo, ndetse n'inkorora, muganga akanabagira inama y'uburyo bagomba kurya imiti kugira indwara ntizabazahaze.

Umuganga wambaye ga usoje kubaga umuntu ari mutabarira ubuzima mu gihe yarwaye, yambaye imyambaro y'ubururu.

Abagabo n'abagore b'abaganga bavuye mu nama, bababwira uburyo bagomba kwita ku barwayi babo ndetse kugira ngo barusheho gukira no kuzahuka vuba mu burwayi barwaye.

Abaganga bari mu mahugurwa, bicaye babwirwa uburyo bagomba kwita ku barwayi ndetse bicaye mu cyumba cyiza gisa neza, harimo umupapa wambaye umupira w'icyatsi, n'undi mugabo uhagaze ari kubabwira uburyo bagomba kwitwara.

Icyumba kiza kirimo amatara meza, giteye irangi ry'umweru, gifite n'amadirishya y'ibirahure, kirimo ibitanda biriho amarido y'umweru, hariho na supanete zirwanya imibu, kirwariyemo abarwayi.

Abantu bari kugenda mu muhanda batuje, batewe agahinda n'akababaro, ndetse bibuka ku nshuro ya mirongo itatu Jenoside yakorewe Abatutsi mu igihumbi kimwe magana acyenda na mirongo icyenda na kane.

Abaturage bari kwa muganga barimo baragirwa inama zitandukanye harimo izo kuboneza urubyaro zo kwirinda malariya ibyo bikazabafasha mu kwirinda indwara zinyura mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kurinda malariya.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi, arikumwigisha uburyo barya imiti, n'uburyo bayifata kugira ngo arusheho gukira vuba bidatinze, kugiraga ingwara ita zamuzahaza.

Imbangukiragutabara irimo igitanda kiryamaho umurwayi, irimo n'aho abarwaza baba bicaye, n'aho umushoferi aba yicaye mugihe ayitwaye, ifasha abarwayi mu kugera kwa muganga bakavurwa byihuse.

Ibitaro byubakishijwe amabati y'ubururu ndetse biriho n'abaturage biteyeho n'indabo, bikikijwe n'ibidukikije by'ibiti kandi bifasha abaturage mu kwivuza.

Icyumba kiza giteye irange ry'umweru kirimo intebe n'ibikoresho byo kwa muganga bifasha abaganga kuvura abarwayi mu gihe bari kubabaga ndetse no mu gihe bari kubasuzuma.

Abaturage babyukiye mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe maganakenda mirongocyenda na kane, igihe u Rwanda rwari mu gihe cy'umwijima, rwibasiwe no kwica Abatutsi bazira uko bavutse.

Abaturage babyukiye mu rugendo rwo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe mirongo icyenda mirongo icyenda na kane, bari mu muhanda mwiza wa kaburimbo mu rwego rw'ibitaro bya Nyagatare.

Umugore wicaye mu ntebe wagiye kwa muganga ari kubwira umuganga uburyo yafashwe, uburyo arwaye ndetse muganga akamwumva, akanandika n'ibintu arimo aramubwira kugira ngo aze kumuha imiti.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, ufite n'umusatsi mwiza ndetse uri muri raboratwari ari gukora ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi.

Umunzani bawifashisha mu gihe bari gupima abantu bo ku bitaro barwaye baje kwivuza ugafasha no mu buryo bwishi butandukanye.

Ikiganza cy'umuntu gifashe akantu ku bari gushiramo amaraso ndetse n'urushinge kuyashyiramo, basa n'abari muri laboratwari bari gukora ubushakashatsi cyangwa se, n'ibindi bintu bitandukanye.

Agacupa karimo ibintu bimeze nk'amaraso ndetse bifashisha mu gihe bari muri labaratwari, barimo bapima cyangwa se barimo bakora ubushakashatsi ku ndwara n'uburyo amaraso y'umuntu ameze.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, cyangwa se laboratwari bari kwiga uburyo bapimamo indwara n'uburyo barebamo abantu barwaye inzoka, maze bapimisha ibikoresho byabugenewe.

Umuganga wambaye ikaburiya y'umweru, agapfu kanwa k'icyatsi, na amarinete, ari mu cyumba giteye irangi cyiza kirimo ibikoresho byifashisha mu gihe bapima uburwayi cyangwa se afata amaraso.

Icyumba kiza kiryamyemo abantu, kirimo ibitanda biteye irangi, ni kiza cyane kiryamyemo ababyeyi baje kubyara ndetse basa naho bakuriwe.

Umukobwa ukora kwa muganga ari kwandika abana mbere y'uko bajya mu cyumba cy'isuzumiro, hari umu mama, hari n umwana we, ndetse abafasha kugira ngo bamenye ukuntu umwana we ahagaze.

Abagabo batatu n'umuma umwe b'abajyanama b'ubuzima, bari mu gikorwa cyo gupima uburebure bw'umwana ku gipimo gipima uburyo umwana ari gukura, bigendeye ku myaka afite.

Umwarimu w'abanyeshuri batoya uri gusabana na bo, akababwira uburyo bagomba kwitwara, agakina na bo, akabafasha mu kuruhuka mu mutwe ndetse akababwira n'amagambo meza atuma bamererwa neza.

Inzu nziza yubatse neza iteye irangi ry'umweru, yubakishijwe n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati y'ubururu, ikikijwe n'ibiti bitanga umwuka kubantu bahatuye.

Ababyeyi basa neza, bari mu cyumba cy'ahobarwarira, giteye irangi ry'umuhondo, ndetse bakaba baryamye mu cyumba kirimo supanete zidufasha kwirinda imibu itera malariya.

Inzu yubatse neza iteye irangi ry'umweru, yubakishijwe n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati y'ubururu, ifasha abaturage mu kuza kwivuza ndetse no kugabanya uburibwe ku burwayi barwaye.

Abagabo n'abagore bari mu gisharagati bitabiriye inama. Irimo kubagira inama zo kumenya uburyo bavuza abana, bita ku bana ndetse no uburyo biyitaho ubwabo kugira ngo birinde kurwara bya hato na hato.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, afashe na mikoro ifite ibara ry'umutuku, ndetse asa n'uwirabura, yambaye n'umupira wanditseho RBC: Rwanda Biomedical Centre, agira abaturage inama y'uburyo bakwitwara n'uburyo wakwirinda indwara zitandukanye.

Abaturage bicaye neza mu ihema, bicaye batuje bari kumva inama babagira, hariho n'amabara meza asa n'agaragaza idarapo ry'u Rwanda.

Abagabo bambaye imyambaro y'abacungagereza bari kumwe n'imfungwa n'abagororwa bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Abagabo bambaye amakabutura y'iroza, imipira y'umweru n'udupfukamunwa. Bari mu kidara kinini kiza. Bari kurema inama ndetse bari gukoma mu mashyi kuko ibyo bari kubabwira barabyishimiye.

Amugabo wambaye itaburiya y'umweru uhagaze imbere ya mudasobwa, imbere y'abaturage arimo ababwira uburyo bakwitwara mu burwayi bagize n'uburyo bafasha abandi bagenzi babo.

Ibinini by'ubwoko butandukanye, harimo ibisa umweru, harimo iby'umukara, harimo iby'umutuku, harimo n'iby'umuhondo, byifashishwa n'abantu mu gihe bagiye bari kubirya igihe barwaye kugira ngo bakire.

Umukobwa uri ahantu bacuruza imiti hitwa farumasi, yambaye itaburiya y'umweru ufite umusatsi w'umukara, arayigurisha kugira ngo abonemo amafaranga ndetse n'abaturage bivuze bakire.

Inzu icururizwamo imiti ifasha abaturage mu kubaho bivuza kandi bakivuriza ku gihe ndetse igafasha na nyirayo kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we no kugira ngo agere ku iterambere.

Farumasi y'imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, mugufasha abaturage mu kwivuza ndetse no kugira ngo bagabanye ububabare bw'indwara baba barwaye.

Umugabo n'umugore bari muri farumasi, bari gucuruza imiti ifasha abaturage kwivura ndetse no mukuvura abana babo kugira ngo bakire uburwayi.

Ubusandugu butondetse n'imiti myinshi itandukanye, ifasha abantu mu kwivuza cyangwase kwivura mu gihe barwaye, ndetse ikaba ifasha na nyirayo mu kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Umuhanda wubakishije amabuye, wegeranye n' inzu z'ubucuruzi ncururizamo amasabune, isukari, n'umunyu.

Icyumba cyiza, hejuru giteye irangi ry'umweru, mu mpande giteye irangi ritukura, kirimo abantu benshi batandukanye, barimo ubagira inama z'uburyo bakwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi, birinda indwara n'ibindi bintu, byatuma barwara.

Urubyiruko rwahuriye mu bukangurambaga babukangurira ibintu byinshi bitandukanye, buryo rugomba kwitwara, urugomo, uburyo rugomba kwiteza imbere, n'uburyo rugomba kubana n'abantu bose amahoro, rurateje akaduruvayi n'ubusaku n'imidugararo.

Abantu benshi bahuriye mu gikorwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, kugira ngo duteze u Rwanda rwacu imbere bitume turwubaka neza kandi ruzagere ku ntego zikomeye.

Abana beza benshi babyukiye mu gikorwa cyo kwamamaza ndetse bahagaze imbere y'inzu ifite inzugi z'ibyuma ziteye irangi ry'umukara, yubakishijwe n'amatafari ahiye.

Abaturage bicaye batuje basa neza bameze neza, bari mu gisharaga cyubatse kiza gifite amahema y'umweru, gifite n'amabara agiye kumera nk'idarapo ry'u Rwanda ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, uri gukora imiti ya kera bakoreshaga bivura ndetse yabafashaga no kumera neza bakayinywa kandi bakivura kandi bagakunda.

Utubindi n'udusekuzo, utwo bakoreshaga kera mu bihe byashize basekura imiti, kugira ngo bavure abarwayi barwaye, ndetse byabafashaga no gukira, bikabafasha mu kwiteza imbere bivura indwara.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu, yambaye itaburiya y'umweru ari kubwira umurwayi w'umumama uburyo yagakwiye kwiyitaho urugero nko kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti.

Umugabo n'abagore babiri bafashe abana bari kwa muganga, baje gukingiza abana mu gihe bageze igihe k'ikingira kandi bifasha abana kutarwara indwara ziterwa no kudakingirwa.

Abaturage bambaye imyambaro y'ubururu abandi bakaba bambaye imyambaro y'umweru bari mu cyumba cyo kwa muganga bategereje kugira ngo babakire bivuze indwara bagiye barwaye kandi bigatuma bakira vuba.

Umuganga wambaye itaburiya y'icyatsi wambaye n'akagofero ufashe urushinge ari gutera muri serumo kugira ngo umurwayi azahuke vuba akire ajye gukora imirimo.

Inzu nziza iteye irangi ry'ubururu ndetse yubakishijwe n'amabati atukura, ifite inzugi z'ubururu ndetse yitwa ngo gir aubuzima herisi positi ubwo ni ibitaro.

Ibitaro byubakishije amatafari ahiye bifite umureko ufite irangi ry'icyatsi, n'amabati atukura ririho n'abantu baje kwivuza mu gihe barwaye.

Abaganga batatu umugabo umwe n'abagore babiri, abagore bambaye udupfukamunwa n'imyambaro ya kotoni, umugabo nta gapfukamunwa yambaye, bose bambaye ga bari mu kazi ko kwitegura kuvura abarwayi.

Amasashe arimo imiti y'inkoko afasha aborozi bazo kugira ngo bazivure ndetse zibabyarire umusaruro harimo nko gutera amagi, zitanga inyama ndetse kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo.

Icyumba cyiza kirimo abarwayi n'umuganga urimo abagira inama yuko bakwifata mu burwayi bwabo kugira ngo bagabanye kuzahara ndetse no gukomeza kurwara, arimo ababwira inama nziza.